Igura n'igurisha ni igikorwa kizanira umucuruzi amafaranga. Iyo ugurishije ibicuruzwa nka marigarine, sarisa, ibirungo nka tayari, onja, bikenerwa mu mibereho ya buri munsi, birakungura.

Kwiga kurya neza bitera akanyamuneza, warenzaho umutobe bikaba akarusho, imboga n'imbuto ni bimwe mu bitera imikorere myiza y'umubiri, warenzeho igikoni gifite isuku kikaza cyuzuza ibyo byose.

Muganga arasanasana iminsi ikiyongera, Kabgayi ni bimwe mu bitaro bikomeye hano mu Rwanda byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, cyane ko bafite abaganga b'inzobere babihuguriwe babifitemo uburambe.

Siporo ni ubuzima, bishatse kuvuga ko uwayikoze agira imibereho myiza izira kurwaragurika, cyane ko ituma unywa amazi menshi kandi ahagije mu gihe uri kuyikora, kandi bikagabanya ibinure by'umubiri bitera umubyibuho ukabije.

Ibiti bitera akanyamuneza, wakongeraho ibiti bya by'amabara atandukanye bikaba bimwe mu bigaragaza isura nziza y'ahantu, kandi byifashishwa mu kuza umwuka mwiza duhumeka, bigakwega imvura, bikarinda isuri, tugomba kubigira.